Foromasi ni nziza cyane abantu barayikunda, ifasha abantu guhita babona imuti byihuse, batagiye gutonda umorongo kwa muganga.

Betarave ni igihingwa kiza, iyo cyakunze ahantu, usanga kihakunze, ukabona n'abantu bari kukireba bakagikunda. Ni kiza cyane.